Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara ndetse z'imitego bateze amatwi ababicaye imbere ndetse hari n'ibifatamashusho, kugira ngo bisakaze ubutumwa buravugirwa aho.

Umugabo wambaye ikoti yicaye ku ntebe y'ikibaho yambaye n'impeta imbere hari akameza k'ikibaho hariho igikapu kiwe ku ruhande rw'iburyo bwiwe hariyo undi mugabo uhicaye iruhande rw'ibumoso hariho umugore uhicaye wambaye agapira k'iroza.

Abagabo n'abagore bari mu nama, abagabo bambaye amakoti y'ubururu bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hateretswe amazi ari ku meza zibari imbere n'agaseke.

Hano ni muri supamaketi, amatara ari kwaka. Harimo etajeri nyinshi ziriho ibicuruzwa bitandukanye. Ndahabona urujya n'uruza rw'abantu, barimo guhaha.

Abasore n'abakobwa bambaye imipira y'ubururu bwijimye bateze amatwi, ndetse abandi bafata amashusho, mugenzi wabo ufashe indangururamajwi abaza ikibazo cyangwa atanga ibitekerezo mu kunganira abavugaga.

Inama igizwe n'abagore babiri n'abagabo batanu imbere yabo hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga biririmo mudasobwa ebyiri ndetse hari n'abafite impapuro n'amakayi bagiye kwandikamo ibyo bateze amatwi imbere yabo bicaye ku ntebe z'umukara bose.

Abagabo bari mu nama bicaye ku ntebe nyobozi zisa umukara, imbere yabo hari ameza ateretsweho ibyo kunywa by'amazi, bamwe bafite imbere yabo ibyo kwandikiraho ndetse n'ikaramu, abandi bafiteho mudasobwa na telefoni ngendanwa, abandi bateze amatwi kubyo bari kumva babwirwa.

Umugabo uri gutanga imbwirwaruhame bigaragara ko ivuga kuri icyo cyapa kimuri inyuma cyanditsweho amagambo kasa, yambaye ikoti mu ibara ry'umuringa n'ishati y'umweru n'i karuvati y'ubururu afashe mikoro ari kuvugira hejuru y'ameza kanditsweho iretirema.

Abategarugori n'abagabo bicaye ku ntebe z'umweru bateze amatwi imbwirwa ruhame bari guhabwa, bicaye mu gisharaga giteguwe mu mabara arimo icyatsi n'umuhondo n'ubururu bateze amatwi.

Umutegarugori wambaye imyenda yo hejuru irimo amabara y'umukara n'umweru, yifashisha indangururamajwi iteretse ku meza yanditseho ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe imiyoborere, ari kugeza imbwirwaruhame ye ku bamukurikiye.

Abantu bicaye bateze amatwi bari mu nama mbere yaho hari imeza iriho amazi yo kunywa, mudasobwa zabo ikaramu n'ikayi harimo batatu uwa gatatu yambaye isaha.

Abayobozi b'ingeri zitandukanye, harimo abashinzwe umutekano w'ingabo z'igihugu, ndetse n'abambaye impuzankano barinda umutekano w'ibanze. Abandi bagabo bambaye amakoti y'amabara atandukanye nk'umutuku wijimye, ubururu, umukara ndetse n'ibara ry'umuringa. Bose bateze amatwi imbwirwaruhame bari kumva.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko harimo imoto n'umumotari uyitwaye, kandi kumpande zaho hakaba harimo inzu zisaza neza cyane zifite amarange y'umweru, kandi imbere yazo hakaba hagiye hari indabo nziza cyane.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara hagati yabo hari ameza ateretsweho ibyo kunywa by'amazi, ndetse buri umwe afite mikoro yo kuvugiraho mu gihe abajijwe cyangwa agiye gutanga igitekerezo, hagati yabo kandi hariho ama ekara ya televiziyo.

Abagabo n'abagore bari gukorera mu matsinda bicaye bameze nk'abari bukurikire imbwirwaruhame nyuma y'amatsinda yabo, bicaye ku ntebe zifite imisego y'umutuku ndetse zikozwe mu byuma imbere yabo hari ameza atetsweho ibyo bari kwifashisha baganira ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'umukara, umwe yambaye ishati y'umweru undi yambaye ikoti ry'ubururu, imbere yabo hari ameza ateretseho ibyo kunywa ari byo amazi bari gutanga imbwirwaruhame ku babari imbere.

Uyu ni umugore ubona usa nkukuze umurebye neza ku maso he harakeye cyane, yambaye amadarubindi ndetse n'ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu umusatsi we urasokoje.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'imodoka ifite amabara y'ubururu n'umweru ndetse n'umukara hafi yayo hari ibiti byiganjemo imikindo idufasha kuyungurura umwuka duhumeka.

Abagabo, inkumi n'abasore bambaye imipira isa y'bara ry'umweru, bari mu matsinda atandukanye, bicaye ku ntebe zambaye imyenda y'umukara ndetse imbere yabo hatetswe ameza, atetsweho amazi yo kunywa n'ibikoresho nka mudasobwa na telefoni ngendanwa biri kwifashishwa nabo.

Abagabo n'abagore bicaye bateze amatwi imbwirwaruhame, bicaye ku ntebe z'imisego y'umutuku zikozwe mu twuma, imbere yabo hari ameza aho bateretse ibyo bari kwandikiramo nk'impapuro n'amakayi ndetse kuri ayo meza hatetsweho ibyo kunywa by'amazi.

Abagore n'abagabo bicaye bateze amatwi, aba bicaye imbere, abatanga imbwirwaruhame bicaye mu ntebe z'ibara ry'umukara, ababumva bicaye mu ntebe z'ibara ry'umuhondo.

Abagabo n'abagore abagore babiri n'abagabo barindwi bateze amatwi imbwirwaruhame barikumva bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo bafiteho ibikoresho nka mudasobwa telefone ngendanwa n'ibikapu byo kubikamo ibyabo ndetse hari n'abafite ibinyobwa by'amazi yo kunywa.

Inzu y'ubwisungane gusa hariho abakozi ba emutiyene n'abakiriya baje kugana ikigo cy'ubwisungane cyitwa buritamu, kiri mu nyubako isa n'iyubakishije amabati n'ibirahuri.

Abagabo n'abagore bari kumva imbwirwaruhame bari guhabwa haririmo abicaye imbere babiri bambaye amakoti y'ubururu n'amashati y'ubururu na karivati bari kumvamva ibyo babwirwa bari mu inzu ifite imiryango ibajishijwe mu imbahu.

Raporo y'ubucuruzi yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri nabiri y'ikigo cyitwa santi purinta, kuri raporo hagaragaraho uko icyo kigo cyakoresheje amafaranga guhera ibihumbibiri na makumyabiri rimwe mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa cumi na kabiri, ibihumbibiri na makumyabiri na rimwe.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Abantu bicaye bafite imbwirwaruhame bakurikiye bari kumva ndetse bamwe imbere yabo bafiteho imeza itegurishijwe amabara y'umweru n'ay'icyatsi, ndetse bose bicaye mu gisharaga gitegurishijwe amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi bumva ibyo babwirwa.

Abagabo n'abagore bateze amatwi abandi batatu bafite ibyo bari kubabwira, batatu bari imbere bambaye amakoti n'abagabo babiri n'umugore umwe, abateze amatwi bicaye ku ntebe zambaye umwenda w'umukara ndetse n'ameza y'igitambaro cy'umukara ateretsweho ibyo kunywa birimo amazi n'icyayi.

Abagore n'abagabo bari mu nama bafite uyiyoboye w'umugore wicaye imbere yabo, bose bicaye ku ntebe nyobozi z'umukara, ndetse imbere yabo hari ameza aho buri umwe afite mikoro imbere ye, ndetse n' ibyo kunywa birimo umutobe ndetse n'amazi yo kunywa, inzu barimo ibikuta byabo birimo imitako ya kinyarwanda.

Abagore n'abagabo bicaye bateze amatwi imbwirwaruhame bari guhabwa, imbere yabo hari ameza ateretsweho ibyo kunywa birimo amazi ndetse n'indabo, hirya yazo hari amadarapo.

Abantu bane harimo abagore babiri n'abagabo babiri bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza bateze amatwi bumva imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugore uhagaze afite mikoro, ku bikuta hari imitako ya kinyarwanda n'imbere ye ku meza hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuramba mu kugaragaza amashusho.

Abagabo n'abagore bateze amatwi ibyo bari kubwirwa, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hari ameza ateretsweho ibinyobwa, ari byo amazi yo kunywa ndetse na telefoni ngendanwa n'ibikoresho nka mudasobwa.

Umugore uhagaze ari gutanga imbwirwaruhame, inyuma ye turahabona icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ku ruhande rwacyo, hari abagabo batatu n'umugore umwe abagabo bicaye mu ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hariho ameza arambuyeweho igitambaro cy'umuhondo atetswebeho amazi imbere yayo.

Abategarugori batatu ndetse n'abagabo babiri bicaye imbere y'abandi batanga imbwirwa ruhame, aho bicaye hashashwe igitambaro cy'ubururu, ndetse imbere yabo bateze amatwi bicaye ku ntebe y'imyenda y'umukara.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zo mu ibara ry'ubururu imbere yabo hari ameza ateretsweho ibyo kunywa by'amazi, bicaye bumva imbwirwaruhame bari guhabwa mu nzu, hejuru hariho amatara manini ane.

Inzu nini mberabyombi iri kuberamo inama yitabiriwe n'abagore n'abagabo, bicaye mu ntebe z'ibara ry'umukara ndetse imbere yabo hari ameza abajwe mu mbaho, buri umwe agiye afite imbere ye mikorofone ndetse na mudasobwa yo gukoresha.

Umuntu ugaragara nk'umuyobozi ahagaze imbere y'abantu bigaragara ko bamuteze amatwi afite indangururamajwi. Imbere ye hari amahema manini ariko uburyo ateguyemo afite atatse mu buryo bw'amabara y'ibendera ry'igihugu, hirya ye hari abantu bagaragara nk'abashinzwe umutekano bari kugenda bashyira abantu ku murongo.

Abagabo babiri bateze amatwi imbwirwaruhame bari guhabwa. Imbere yabo hari imeza iteretsweho ibyo kunywa birimo ikawa n'amazi, bafite mu ntoki zabo amakaramu bari kwandikisha mu makayi abateretse imbere. Bicaye ku ntebe z'umwenda w'umweru inyuma yabo hari abari gufata amashusho.

Abagabo batatu n'abagore babiri umugore umwe ari gutanga imbwirwaruhame yifashishije ibikoresho byagura amashusho by'ikoranabuhanga, abo ari kuyihereza ni abagabo batatu bicaye ku ntebe z'utwuma imbere yabo hateretseho mudasobwa ndetse hari n'umugore wa kabiri wambaye ishati y'ubururu afite uruhu rwera.

Abagore babiri n'umugabo uri kubabwira, bicaye ku ntebe z'umukara, igikuta cy'aho bari gitatsweho n'imitako ya kinyarwanda, imbere yabo hariho amacupa y'amazi yo kunywa.

Abagabo n'abagore bicaye bateze amatwi imbwirwaruhame bari guhabwa, bafite imbere yabo mudasobwa, amakaramu ndetse n'ibyo kwandikiraho ibyo bari bwumve, abenshi muri bo bambaye amakote.

Abagabo, abategarugori, bicaye mu ntebe zikozwe mu mbaho, ariko z'imisego y'ibara ry'umuringa, bateze amatwi ibyo bari kubwirwa, ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa bari kwifashisha.

Abantu bari mu gikorwa remezo cya sitade harimo abagore n'abagabo, ruguru gatoya harimo abambaye imyenda isa yo hejuru iri mu ibara ry'umuhondo basa nk'abari kogeza igikorwa runaka.

Abategarugori n'umugabo umwe bari mu nama, umugabo ari kugira ibyo abaza afite mikoro ari kuvugiraho. Bicaye ku ntebe z'ibara ry'umuringa, imbere yabo hari ameza ateguweho igitambaro n'ibyo kunywa by'amazi.

Inzu ifite amatara matoya menshi n'itara rimwe rinini, irimo abategarugori n'abagabo bicaye ku ntebe zambitswe imyenda y'umweru, bateze amatwi n'amaso ibyo bari kureba banumva bijyanye n'inama barimo.

Abagabo abahari nabategarugori bicaye bari kumva imbwirwaruhame bari guhabwa, bicaye imbere yabo hari ameza ateretsweho mudasobwa n'ibindi bikoresho biri kwifashishwa, mu kwandika ibyo bumvise ndetse n'amazi ari mu ducupa yo kunywa.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zambitswe imyenda y'umweru, imbere yabo hari ameza yambitswe imyenda yo mu ibara ry'ubururu, umuhondo, n'icyatsi, kuri ayo meza hateretsweho ibinyobwa ari byo amazi yo kunywa, bateze amatwi ibwirwaruhame bari guhabwa, abandi bari kugana hagati yabo.

Abasore batatu bambaye imipira y'ubururu bicaye ku ntebe zambaye umwenda w'umuhondo, imbere yabo hahagaritsweho amazi ku meza ibari imbere, inyuma yabo hari umutegarugori n'ugabo umwe.

Abategarugori bari mu nama barikumva uri kubahireza imbwirwaruhame w'umutegarugori na we, imbere yabo hamanitswe icyapa cyanditsweho amagambo repubulika y'u Rwanda umujyi wa Kigali byanditswe mu ibara ry'ubururu.

Inama irimo abagabo batatu birabura n'umwe w'umuzungu ndetse n'umutegarugori wambaye ikanzu y'umuhondo n'amadarubindi y'umukara w'inzobe, imbere yabo hateretswe ibyo kunywa birimo amazi ndetse bafite na mudasobwa imbere yabo.

Igikorwaremezo kibikwamo umuriro ndetse kigafasha abaturiye kuba babasha kubona umuriro ariko no mu bikorwa bisanzwe by'itumanaho, kiba icy'umumaro cyane, kitwa umunara ndetse kirazitiwe kugira ngo hatagira abacyangiza cyangwa ibicyangiza cyangwa icyo kikaba cyabyangiza.

Abasore n'inkumi bicaye ku tumeza tw'imbaho ndetse n'intebe z'utwuma zisa icyatsi; abahicaye basa nk'abari kuganira ndetse bafite hagati yabo ibyo ibyo kunywa biri mu turahure tw'umweru.

Igikorwa remezo cy'umuhanda hirya y'umuhanda hariho serivisi zihatangirwa za noteri w'ubutaka ndetse na serivisi zijyanye n'irembo.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwitwa Livingi ini Kigali rwifashishwa rufasha abantu batuye iki muri Kigali kuba bagura ibikoresho ibiribwa ndetse n'imyambaro muri Kigali.

Umunara ubita umuriro ndetse ukaba wabasha gufasha abahaturiye kuwubona uzitiwe n'utwuma ndetse na senyenge zo kurinda ko wakangizwa n'abahaturiye cyangwa nawo ukaba wabangiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Abantu batandatu baje gushaka serivisi zijyanye n'ikoranabuhanga, bafite za mudasobwa mu ntoki zabo harimo n'abafite telefoni ngendanwa, bambaye.

Abagabo babiri bose bafite kasike zanditseho sefu moto, aba bagabo bose bambaye amarinete umwe ni umwirabura ariko undi ni umuzungu.

Abantu babiri bambaye impuzankano zifashishwa bari gukora ibijyanye n'amashanyarazi, bambaye amagofero abafasha kugira ngo ntibagire icyo bangirika mu bwonko, igihe bagize impanuka itunguranye, ndetse bahagaze imbere y'utwuma tuzitiye umunara muremure, zizitiwe n'utwo twuma, ndetse na senyenge.

Icyapa kimenyesha yuko bitemewe kwishura urugendo mu buryo bw'amafaranga yo mu ntoki ahubwo ko akwiye gushirwa ku ikarita y'ubururu igakozwa ku cyuma nk'ibara ry'umuhondo hakaka icyatsi kuri icyo cyuma munsi yaho gato hariho rura.

Umunara ubika ndetse ugatanga ingufu z'umuriro w'amashanyarazi ku baturiye aka gace, uwo munara ukaba ukikijwe n'utwuma birinda ko hagira uwuyangiza cyangwa se yo akaba yakangiza ibihaturiye n'abahaturiye.

Ipoto riri mu ibara ry’umukara rishamikiyeho insinga nyinshi zijyana umuriro w’amashanyarazi ku mazu aturiye iryo poto. Munsi hari aderesi iranga aka gace.

Igikorwa remezo cya sitasiyo aho abantu bafatira amavuta abafasha kugira imodoka cyangwa se ibinyabiziga bindi nka moto bibe bibasha kugenda, hariho abayobozi b'izo moto ndetse n'abagenzi batandukanye.

Ibikorwa remezo birimo iminara ibiri n'ipoto iyo minara iyifiteho imigozi itanga umuriro buri buri munara ufite imigozi itatu ndahabona nigikorwa remezo cy'umuhanda w'abanyamaguru.

Ipoto mw' ibara ry'umukara ariko ryashishutse, rifatiweho n'insinga nyinshi zo mw'ibara ry'umukara, rigeza ku baturage umuriro w'amashanyarazi, impande yarwo hariho amazu yo guturamo.

Igikorwa remezo cy'ipoto, ifite insinga z'ibara ry'umukara zikikije icyo gikorwa remezo ndetse ku ruhande hari ibiti n'ibyatsi ndetse n'ubusitani.

Igikorwa remezo cy'ipoto rifiteho insinga eshanu z'umukara zigeza umuriro ku bahaturiye, harimo igikorwaremezo cy'in inzu yo kubamo imwe ifite amabati ari mu ibara ry'umukara.

Igikorwaremezo cy'umuhanda, kiriho kugenderwamo n'ibinyabiziga mu bwoko bw'imodoka ndetse na moto, moto zitwawe n'abayobozi bazo, ndetse batwaye abagenzi, umugore ndetse n'umusore nabo bari kugendera kuri iki gikorwa remezo.

Ibikorwaremezo mu muhanda w'abanyamaguru ndetse iruhande uriho ubusitani burimo ipoto riyishamikiyeho insinga zo mw' ibara ry'umukara zigena amashanyarazi ku baturiye iryo poto.

Ipoto mu ibara rya kaki rishamikiyeho insinga icumi zigena umuriro ujya mu mazu ahaturiye ndetse izo nsinga ziri mu ibara ry'umukara.

Amapoto abiri mu ibara ry'umuringa ashamikiyeho insinga z'umukara nyinshi zijyana amashanyarazi ku baturiye, aho hafi y'ibi bikorwaremezo.

Interebuteri ifatanye n'agatiyo gafashe nk'insinga bihuzwa n'agansinga hari agatsiga k'umukara n'akandi tubiri tw'ubururu biri ku gikuta cya karabasasu hejuru hari amabati, izo eterebuteri ni eshatu.

Igikorwa remezo cy'ipoto mu ibara ry'umukara, gishamikiyeho insinga zo mu ibara ry'umukara zigena amashanyarazi ku baturage baturiye icyo gikorwa remezo.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rwera rwanditsweho amagambo ibishushanyo ndetse n'andi mabara atandukanye, handitsweho amagambo yiganjemo umukara, ay'ubururu ay'umweru ndetse akaba ariho agashushanya ka mudasobwa, hariho n'andi mabara atandukanye y'umutuku, ubururu ashushanyijemo inyoni y'umweru ndetse hakaba ashushanyijeho amabara y'ubururu, umutuku umuhondo ndetse n'icyatsi y'ibendera ry'u Rwanda.

Igikorwa remezo cy'umunara gishamikiyeho insinga zo mu ibara ry'umukara, gishinze mu busitani bukikijwe n'indabyo ndetse n'ibiti birebire by'icyatsi.

Ibikorwaremezo birimo umuhanda uri kugendwaho n'ibinyabiziga mu bwoko bwa moto biyobowe n'abayobozi babyo ndetse n'amazu y'ubucuruzi aturiye umuhanda n'indi nzu imwe ndende ikiri mu kubakwa.

Ni igikorwa remezo k'ipoto gishamikiyeho insinga z'umuriro w'amashanyarazi ugera ku baturage baturiye iryo poto, imbere yaryo hari kunyura umugabo wambaye imyenda isa nk'impuzankano y'ubururu.

Ibikorwaremezo by'iminara ibiri ishamikiranyeho n'insinga z'umuriro w' amashanyarazi zifite ibara ry'umukara zikaba ari insinga enye.

Ubusitani bukase ndetse buconze neza burimo ibiti bitatu kimwe cy'umutuku n'ibindi bibiri by'icyatsi, ubusitani buragoswe rwose, inyuma yabwo hariho amazu abiri yubakishijwe amatafari afite amabati y'umutuku.

Igikorwa remezo cy'inzu itangirwamo ubuvuzi, haparitswe ikinyabiziga mu bwoko bw'imodoka ndende ikoreshwa nk'imbangukiragutabara kugira ngo hatwarwemo indembe n'abarwayi bakeneye ubufasha bwihuse bwa muganga.

Serivisi za banki ziri guhabwa abagore n'abagabo umugore wambaye ishati y'umweru yicaye ategereje gufashwa ku ntebe y'umuringa n'umugabo wambaye ishati y'umukara ahagaze ku nkingi na we ategereje gufashwa.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'impyiko n'ibindi nk'abyo, ifite amabati atukuye ndetse imbere y'urubaraza hari ubusitani, ku rubaraza hari intebe z'imbaho n'ibyuma.

Igikorwaremezo cy'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge byanditsweho kuri iyo nzu ayo magambo, ndetse gishyizwe ibikuta byacyo bisizwe ibara irangi ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye ikoti mu ibara rya kaki n'ipantaro y'umuringa weruye ndetse n'umugore wambaye ibitenge, hirya yabo hari umugabo utegereje kwakira serivise z'ubutabera, wambaye impuzankano yo mu ibara ry'iroza, wicaye ku ntebe z'imbaho, ku gikuta hamanitsweho kizimyamoto yo mu ibara ry'umutuku.

Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana kenda mirongo ikenda na kane, byari biri kuba ku nshuro ya makumyabiri na gatanu, ndetse insanganyamatsiko yari kwibuka twiyubaka, yariri kubera kuri gereza ya Nyamagabe.

Abagabo bambaye udupfukamunwa n'impuzankano z'iroza bambaye n'amapingu bari kunyura imbere y'abandi bagabo n'abagore bambaye impuzankano za kaki zambarwa n'abashinzwe gutanga serivisi z'igororwa muri gereza zo mu rwanda.

Umutegarugori wambaye amadarubindi yo mu ibara ry'umukara, yambaye amaherena ndetse n'umukufi byo mu ibara rya zahabu ari kuvuga imbwirwaruhame, imbere ye hari ameza ndetse kuri ayo meza hateretswe indangururamajwi ari kwifashisha ageza ku bamukurikiye imbwirwaruhame.

Umugabo wambaye impuzankano y'umukara ya polisi y'u Rwanda afashe imbunda mu biganza bye, aherekeje umufungwa wambaye ishati y'umukara n'ipantaro iri mu ibara ry'umuringa afite mu ntoki ze icupa ririmo amazi.

Itangazo riburira abantu kwirinda abagira ibyo babasaba, babizeza kubafasha mu buryo bw' ubutabera mu nkiko kuko ubutabera butagurwa.

igororero rifite inkuta z'umweru, aho binjirira ndetse hejuru hamanitsweho icyapa kigaragaza ko ari igororero ryo mu karere ka Musanze ryakira abataye inzira kugira ngo babasubize mu nzira nyayo.

Ifoto yumugore wambaye agapira k'iroza karimo umukara n'imbere harimo umweru ufite ibitsike by'umukara n'ibisuko bifunze.

Umugabo wambaye impuzankano y'imfungwa zo mu Rwanda yambaye, isa iroza, akaba yogoshe, afite ubwanwa bwo hejuru na buke bwo hasi, azwi ku izina rya Nsabimana Karisiti, ariko wamenyekanye ku izina rya Sankara, asa nk'uteze amatwi ibyo ari kuburanishwa.

Abagabo batatu babiri muri bo bambaye impuzankano z'abatanga serivisi zubutabera, undi umwe aba ari hagati yambaye ikoti nk'umuturage usanzwe uri kuburanirwa, imbere y'aba bagabo hakaba hari utumeza utwo tumeza kamwe muri two gatetsweho mudasobwa ikoreshwa muri izi serivisi.

Inzubeya byombi ifite amatara matoya menshi, ikagira n'amatara ane manini, muri iyo nzu harimo abantu benshi bambaye imyenda y'umukara bicaye ku ntebe, imbere yabo hariho ameza, bateze amatwi, uwambaye imyenda y'umukara uri gutanga imbwirwaruhame.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imbaho ndende mu butambike bari kumva ibyo abagabo babiri babicaye imbere gato yabo na bo ku ntebe y'imbaho bambaye impuzankano z'iroza babwirwa n'abandi babari imbere.

Abagabo n'abagore bicaye barikumva aba bicaye imbere batatu bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza y'imbaho, hejuru y'ayo meza hateretsweho ibinyobwa by'amazi n'umutobe w'umyembe.

Umugabo wambaye amarineti y'umukara ufite ubwanwa wirabura wambaye ikanzu yabacamanza batanga serivisi z'iburana n'iburanisha ikanzu ye isa umutuku irimo hagati undi mwenda w'umweru.

Umugabo wambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa, mu kiganza cye afashemo ikayi y'ubururu yambaye agapfukamunwa, inyuma ye hari utubati tw'utumeza turiho mikoro, ari guhabwa serivisi zijyanye n'ubutabera iburana n'iburanishwa.

Umugabo utawe muri yombi, yambaye ikoti y'umukara akikijwe n'abagabo babiri bambaye impuzankano y'umukara ya porisi y'u Rwanda, ndetse inyuma ye hari n'undi mugabo umwe wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umukara niya porisi y'u Rwanda, inyuma yabo hari imodoka iri mu ibara ry'umweru n'ubururu n'ubugenzacyaha.

Umutegarugori wambaye icyo hejuru cy'umutuku mu imbere harimo n'icy'umweru yambaye amaherena y'ibizeru n'ibara ry'umuringa, asutse ibisuko bimuryamyeho asa nk'uri gufata ifoto.

Abafungwa bicaye ku ntebe ibajwe mu mbaho, bambaye ibyo hejuru n'ibyo hasi by'iroza, babiri muri bo bafite impapuro z'umuhondo, umwe muri bo afite ibyo ari kureba muri iyo mpapuro afite.

Abagabo batatu umwe wambaye impuzankano y'ibara rya kaki n'ingofero y'iyo mpuzankano, undi wambaye impuzankano y'ibara ry'iroza ndetse n'undi wambaye impuzankano y'ibara ry'umukara irimo hagati agatambaro k'umweru.

Umugaba w'ingabo z'u Rwanda akaba na perezida wa repubulika y'u Rwanda ari gutanga imbwirwaruhame imbere afite mikoro iteretswe hejuru y'akameza, ibumoso bwiwe hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo n'icyatsi.

Umugabo ukuze wambaye amadarubindi y'umukara ingofero ndetse nikanzu y'abakozi bafasha muri serivisi z'ubutabera ndetse n'umuvunyi yambayeye mo imbere y'iyo kanzu ishati y'iroza.

Abagabo n'abagore bateze amatwi imbwirwaruhame iri gutangirwa mu nama bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ameza ateretsweho za mudasobwa na telefoni ngendanwa ari kwifashisha muri iyo nama, kuri ayo meza aba imbere hateretsweho nk'ibyo kunywa by'amazi.

Umufungwa w'umunyamahanga ukikijwe n'abagabo babiri bambaye impuzankano y'ingabo z'u Rwanda za gipolisi, inyuma yabo hariho imodoka asa nk'uyivuyemo y'ibara ry'umweru n'ubururu.

Igikorwa remezo cy'inyubako ikorerwamo nkuko byanditswe hejuru mu magambo y'ikinyarwanda, ngo igororero rya Huye, rigororerwamo, ritangirwamo serivisi zo gushyira mu murongo ndetse no kugorora abatakaje umurongo nyawo, harinzwe n'abagabo babiri bambaye impuzankano zo mu ibara rya kaki.

Igikoresho kifashishwa mu kuzimya ahari inkongi y'umuriro kiri mu ibara ry'umutuku, gifatishijweho udupapuro twinshi dutandukanye tw'umweru mu ibara ndetse kifiteho aho bagifatira h'umukara.

Mu isoko rya Nyabugogo aho bagurishiriza imbuto, umucuruzi yifashi ku itama kuko yabuze abakiriya kandi yari akeneye amafaranga, ari gucuruza inanasi, amapapayi, amaronji, imyembe, ndetse n'ibindi.

Ibikorwaremezo birimo umuhanda n'amazu y'ubucuruzi, kuri uwo muhanda hariho imodoka yow'ibara ry'umweru ifiteho imirongo y'umukara igaragarako ari iya polisi y'u Rwanda. Ndetse n'ibinyabiziga bya moto bimwe biriho abagenzi n'ibindi bitariho abagenzi, ariko bitwawe n'umuyobozi wabyo.

Umuntu wambaye impuzankano z'umukara za polisi y'u Rwanda zirimo uturongo tw'icyatsi cyeruye tune, ahagaze ku gikorwaremezo cy'umuhanda w'abanyamaguru, imbere ye hari hariyo izindi serivisi z'ibinyabiziga bya moto bitwawe n'umuyobozi wabyo ndetse n'abo bihetse.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka ntoya k'ibara ry'umukara, umweru cyanditseho amagambo avuga ngo polisi yo mu muhanda kiriho ikimenyetso cy'inuma nk'ikimenyetso cya polisi y'u rwanda.

Uyu ni umugore ubona usa nkukuze umurebye neza ku maso he harakeye cyane, yambaye amadarubindi ndetse n'ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu umusatsi we urasokoje.

Umutegarugori wicaye ku ntebe y'imisego ndetse y'ibara ry'umukara, imbere ye hari imeza iteretseho indangururamajwi z'ibinyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda akaba ari uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda uzwi ku izina rya muse Luise Mushikiwabo.

Cy'inama gifite ibikuta bisa umweru kikagira amadirishya y'ibirahure kirimo abantu batanu harimo abagabo bane bambaye ikositimu n'umugore umwe wambaye amadarubindi, bicaye imbere yabo hari ameza y'umukara ateretseho ibipapuro mudasobwa n'amazi yo kunywa.

Umukandida w'ishyaka rya girini pati ari gutanga imbwirwaruhame, akikijwe n'umutegarugori umwe, ndetse n'umugabo umwe, bose bambaye amashati y'umweru, ariho ikimenyetso cy'ishyaka. Hari kuba igikorwa cyo kwiyamamaza.

Ndabona imodoka eshatu ebyiri zigerwamo kuburyo bwa rusange muririzo za rusange imwe yanditseho imyaka maganabiri na mirongo itatu n'umunani y'uburambe indi modoka ni iy'ubwikorezi ifite ibara ry'umweru irimo umuntu yitwayezo zigendwa muburyo bwa rusange zicayemo abagenzi ndabona umunyamaguru ndagenda mu kayira k'abanyamaguru ndabona ibiti ndabona amapoto y'amashanyarazi ndabona insinga z'amashanyarazi n'amatara ku y'ishyamba.

Abagore batatu aho babiri bicaye ndetse undi umwe akaba ari imbere y'abandi afite ari kubwira yambaye ikanzu y'ubururu umukufi ndetse n'amadarubindi y'umukara, ab'inyuma ye nabo bamuteze amatwi, ndetse inyuma yabo hariho icyapa cyantsweho inzego n'andi magambo.

Kwiyamamaza k'umukandida w'ishyaka efuperi rifite idarapo ryo mu ibara umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Ikiganza cyerekanwe, cyane cyane igikumwe cyacyo kiriho ibara ry'ubururu, kigaragaza ko amaze gukora igikorwa cyo gutora umukandida we, mu matora rusange y'abayobozi runaka.

Abagore batanu n'umugabo umwe bamanitse ibiganza aho bamanitse ikiganza kimwe k'iburyo ndetse bafatishije ikindi kiganza k'ibumoso ku idarapo ry'igihugu cya repubulika y'u Rwanda, aho bari mu gikorwa cyo kurahirira inshingano agiye gufata no gukora.

Abagabo babiri, umwe ari gushyira umukono ku masezerano ndetse n'indahiro amaze kurahira imbere y'uwo wundi umuri imbere wambaye ikanzu y'ibara ry'umutuku ndetse n'ingofero y'umukara, uri gushyiraho umukono ni perezida wa repubulika y'u Rwanda, ibumoso bwe hariho umugore we yambaye umukenyero wa kinyarwanda.

Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ari kwiyamamaza amanitse amaboko yafunze ikiganza mu buryo bw'igipfunsi, yambaye umupira w'umweru ndetse n'ingofero y'umukara, akikijwe n'abaturage bamanitse amadarapo y'umweru, umutuku, n'ubururu.

Umusore n'umwari bambaye imyenda isa y'umweru n'ingofero z'umweru bicaye ku ntebe za purasitiki, imbere yabo hariho ameza apfukishijwe igitambaro cy'umweru bari kuyobora umugabo uri mu gikorwa cyo gutora aho ari kwinjiriza uwo yatoye mu gakarito kajyamo impapuro zanditsweho uwo watoye.

Ikirangantego cyo mu ibara ry'ubururu, umweru, n'icyatsi, cy'ishyaka riri mu nyuguti: pa, sa, na da, giharanira ubutabera, ubwisungane, ndetse n'amajyambere.

Umutegarugori wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara afashe mu biganza bye, ikayi ndetse n'ikaramu, yambaye amadarubindi ndetse n'amaherena yo mu ibara ry'izahabu imbere ye, hari mikoro ndetse yicaye ku ntebe y'umweru.

Ikiganza kirambuyeho intoki ebyiri n'izindi eshatu zihinnye ebyiri zimbuye ziriho umuti ukoreshwa igihe hari kuba igikorwa cy'amatora, bimenyekanisha ko uwo muntu yamaze gukora igikorwa cyo gutora umukandida we.

Abaturage bashungereye, umukandida uje kwiyamamaza, umukandida ari kumwe n'umufasha we ndetse n'abamuherekeje, yambaye ishati y'umweru iriho ikirangantego cy'ishyaka rye, akaba azwi ku izina rya frank habe dogita Furanke habineza afite ishyaka rizwi nk' izina rya girini pati.

Igikorwaremezo kiri kuberamo gahunda ya leta y'amatora, hejuru hamanitswe icyapa cyanditseho repubulika y'u Rwanda komisi y'igihugu y'amatora twitabirire amatora duhitemo neza, aho hari kwinjira abagabo n'abagore b'ingeri zitandukanye.

Abayobozi babiri umwe imbere undi inyuma uw'imbere yambaye ikoti ry’umukara na karuvati y’umukara afite mikoro imbere ye asa nuwitegura gusubiza ibyo ari bubazwe.

Minisitiri w'intebe w'u Rwanda wabanjirije uriho ubu ngubu, uyu mugabo yitwa Anastase Murekezi akaba yambaye ikoti y'umukara ndetse n'ishati y'umweru n'amadarubindi.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amadarubindi, uri guseka wambaye umupira wumweru ndetse ufite mudasobwa mu ntoki ze. Ari ku gapapuro k'ubururu kandidikishijweho amagambo yumweru ndetse n'ayumuhondo yanditswe mu kirimi cyamahanga cyicyongereza.

Umutegarugori n'umugabo bambaye amadarubindi bose bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hateretse indangurumajwi ziri ku meza ndetse hari mudasobwa bari kwifashisha batega amatwi ku baribabwira.

Igikorwaremezo cy'umuhanda kiri kugendwaho n'ibinyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka y'umuntu ku giti cye, imodoka ikoreshwa mu bwikorezi, ndetse na moto bitwawe n'abayobozi babyo.

Ibinyabiziga byinshi bizwi ku izina rya moto biparitswe, biriho abayobozi babyo, biparitse imbere y'inyubako itangirwamo serivisi zijyanye na telefoni ngendanwa.

Igikorwa remezo cy'umuhanda, giparitsweho ibinyabiziga bibiri by'amagare, kimwe giparitse kidafite umuyobozi wacyo, n'ikindi gifite umuyobozi wacyo ucyegamiyeho, wambaye imyenda iri mu ibara ry'umuringa weruye.

Ibinyabiziga bibiri mu bwoko bw'ibikamyo by'umweru bifite imizigo itandukanye byikoreye kimwe imizigo cyikoreye itwikiwe n'umufuka w'umukara, ikindi kikoreye imifuka myinshi y'umweru.

Ikinyabiziga kirekire cyo mu bwoko bw'imodoka, itanga serivisi zijyanye n'urugendo rusange ku baturage bagiye mu ntara cyangwa se mu mujyi wa Kigali, irasa ubururu ndetse n'umweru, gifite amadirishya abonerana.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kugendwaho n'imodoka zo mu bwoko bw'imodoka nini, zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ari mu ntara, ari mu mujyi wa Kigali.

Igikorwaremezo cy'umuhanda ugendwaho, ukaba uri kugendwaho n'ikinyamitende gifite igikoresho cy'umweru cyikoreye inyuma ndetse gitwawe n'umuyobozi wacyo.

Igikorwaremezo cy'umuhanda ndetse n'amazu y'ubucuruzi butandukanye, umuhanda uri kugendwaho n'abantu n'ibinyabiziga mu bwoko bw'imodoka z'ibikamyo ndetse na moto, ibikamyo biri mu ibara ry'umweru.

Igikorwa remezo cy'umuhanda gikikijwe n'ahantu bari kubakira ndetse n'ikiraro ku ruhande, kuri icyo gikorwa remezo hari kugendwaho n'ikinyabiziga mu bwoko bw'igikamyo cyifashishwa mu bwikorezi bw'ibikoresho bitandukanye.

Igikorwaremezo cy'umuhanda ibinyabiziga bibiri bya rusange bitwara abagenzi ba rusange bijya muntara kimwe ni ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru gifiteho ayandi mabara nk'icyatsi n'amagambo yandikishijwe ubururu ku muryango w'imbere ikindi kinyabiziga ni mu ibara ry'icyatsi n'umukara .

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, bimwe muri byo ni amagare abiri ahetse abagenzi ikindi nii ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru cyangwa se ikamyo kikoreye inyuma imizigo bashumikishije itente cyangwa se igitambaro cy'ubururu.

Igikorwa remezo cy'umuhanda giteweho ibiti n'indabyo mu ibara ry'icyatsi n'umutuku, kiriho ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umuyobozi wacyo afite umugenzi atwaye na rigore iri iruhande rw'umuhanda, inyuma y'umurongo w'umweru tuhabona.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kugenderwaho n'ibinyabiziga biri mu bwoko bwa moto ndetse n'igare, bitwawe n'abayobozi babyo ndetse bitwayeho n'abagenzi, hirya y'umuhanda gato hari ikiraro.

Igikorwa remezo cy'umuhanda uri kugendwaho n'ikinyamitende cyo mw'ibara ry'ubururu ndetse n'ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa moto gitwawe n'umuyobozi wacyo, ariko nta mugenzi atwaye.

Igikorwa remezo cy'umuhanda w'ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka y'umuntu ku giti cye ariko inikorera ndetse n'umuhanda w'abanyamaguru uri kugendwaho n'abanyamaguru, amatara maremare yo ku muhanda acanye.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Umuhanda wa kaburimbo imbere yabo hari inzu igeretse ifite amarangi y'umweru ndetse na y'ubururu hasi yayo haparitse imodoka isa umweru.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kugenderwaho n'ibinyabiziga byo mu bwoko butandukanye amagare, moto, ndetse n'igikamyo cyo mw’ibara ry'ubururu n'umweru, gikoreshwa mu bwikorezi bw'ibintu bitandukanye. Byose bitwawe n'abayobozi babyo, bitanga serivisi z'ingendo.

Ibikorwaremezo biri mu nzira yo kubakwa ndetse n'umuhanda nyabagendwa w'imodoka n'abanyamaguru uri kugendaho abanyamaguru batatu mu ruhande rw'abanyamaguru no mu muhanda w'ibinyabiziga harimo ikinyabiziga cy'umweru gitwawe n'umuyobozi wacyo cyikoreye n'undi inyuma .

Igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kugendwaho n'ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka ndetse na moto, byose bigiye bitwawe n'abayobozi babyo ndetse moto zitwaye n'abagenzi baziteze.

Igikorwaremezo cy'umuhanda kiri kugendwaho n'ibinyabiziga bitwara bitanga serivisi zo gutwara abantu mu buryo bwa rusange, ibyo binyabiziga biri mu ibara ry'umweru ari bibiri n'ikindi kimwe mu ibara ry'ubururu, ku ruhande rw'icyo gikorwaremezo cy'umuhanda hariho n'abanyamaguru bari kugendera ku muhanda wabagenewe.

Igikorwa remezo cy'umuhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo ibinyabitende bibiri na moto itwawe n'umuyobozi wayo ndetse n'ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'igikamyo kigufiya kikorera imizigo itandukanye.

Igikorwaremezo k'inzu y'ubucuruzi ndetse n'umuhanda uri kugendwaho n'ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umuyobozi wacyo afite umugenzi atwaye.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka gitanga serivisi z'ingendo rusange iri mu ibara ry'umweru ndetse yegeranye n'indi iri mu ibara ry'umweru n'ubururu bwijimye.

Igikorwa remezo cy'umuhanda, kiri kugenderwaho n'ibinyabiziga byo mu bwoko butandukanye, harimo igare, imodoka y'umuntu ku giti cye, ndetse n'imodoka y'igikamyo, kandi hari n'umuhanda w'abanyamaguru, uri kugenderwaho n'abagabo babiri.

Ibikorwaremezo by'umuhanda biri gutwarwaho ikinyabiziga cy'imodoka kiri mu ibara ry'umuringa weruye, imbere yacyo turahabona ibindi binyabiziga bibiri, kimwe cyo mu ibara ry'umukara n'ikindi cyo mu ibara ry'umweru.

Igikorwa remezo cy'umuhanda, kiri kugenderwaho n'ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka ndende, zikoreshwa mu kwikorera ibintu bitandukany, byambuka umupaka umwe w'igihugu kimwe, n'ikindi.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kugenderwaho n'ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ikamyo, ifite ibyo ipakiye byoroshweho ishashi y'umukara. Hejuru yaho hariho imigozi isa umukara.

Igikorwa remezo cy'umuhanda uri kugenrwaho n'ibinyabiziga byo mu bwoko butandukanye, hariho amagare abiri atwawe n'abayobozi bayo ndetse imwe itwaye n'umugenzi n'ikinyabiziga cy'igikamyo cyo mu ibara ry'umutuku gifite ibyo cyikoreye inyuma.

Ibikorwa remezo birimo umuhanda, umunara, amatara yo ku muhanda ndetse n'imodoka, ibinyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka zitanga serivisi ku ngendo za rusange zisa umweru ndetse n'icyatsi, hahagaze imbere yazo abaturage bategereje serivisi nk'izo.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'igikamyo kiri mu ibara ry'ubururu gifiteho n'imirongo y'umweruru gikoreshwa mu bwikorezi bw'ibintu bitandukanye nk'imifuka n'ibindi nkabyo. Inyuma yacyo hari ibindi binyabiziga bibiri harimo igare ndetse na moto bitwawe n'abayobozi babyo bafite nabo batwaye kuri ibyo binyabiziga.

Ibikorwa remezo by'umuhanda biriho ikinyabiziga mu bwoko bw'ikamyo risa umweru mubara ndetse gitwawe n'umuyobozi wacyo wambaye agapira k'umuhondo.

Iikorwa remezo cy'umuhanda uri kugedwaho n'ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ifite ibara ry'umweru ndetse n'imirongo y'icyatsi hagati.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kigendwaho n'ibinyabiziga bitandukanye harimo ibyo mu bwoko bwa moto, igare ndetse n'ibikamyo by'ubwikorezi, moto n'igare bitwawe n'abayobozi babyo bafite abagenzi batwayeho inyuma.

Ibikorwa remezo by'umuhanda biri kugendwaho n'ibinyabiziga mu bwoko bw'imodoka itanga serivisi z'ingendo rusange, iri mu ibara ry'umweru iriho n'imirongo y'icyatsi ndetse n'ibinyabiziga mu bwoko bwa moto zitwawe n'umuyobozi wazo ndetse n'abo batwaye bitwa abagenzi.

Igikorwa remezo cy'umuhanda utwaweho n'ibinyabiziga biri mu bwoko bwa moto zitwawe n'abayobozi bazo ndetse n'imodoka iri mu ibara ry'umweru ikoreshwa mu bwikorezi.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kugenderwaho n'imodoka ebyiri iri mu bwoko bw'igikamyo ndetse n'umuntu ku giti cye, igikamyo gifite ibara ry'icyatsi ryandikishejweho amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kugenderwaho n'ibinyabiziga bitandukanye, amagare abiri ndetse n'igikamyo, amagare ayobowe n'abayobozi bayo atwaye n'abagenzi, igikamyo na cyo gifite ibyo kikoreye byakingishijwe umufuka w'ubururu ndetse gitwawe n'abayobozi bacyo.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kugenderwaho n'imodoka cyangwa ibinyabiziga mu bwoko bw'imodoka ebyiri, iy'umutuku ndetse n'iy'ubururu, bitwawe n'abayobozi babyo.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka ndende iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, ikoreshwa mu bwikorezi bw'ibintu bitandukanye bwambukiranya umupaka.

Igikorwa remezo cy'umuhanda iri kugenderwaho n'imodoka zo mu bwoko butandukanye, imwe y'umuntu ku giti cye ndetse n'izindi ebyiri zikoreshwa mu bwikorezi bw'ibintu bitandukanye imwe iri mu ibara ry'ubururu.

Igikorwa remezo cy'umuhanda w'abanyamaguru, nu w'ibinyabiziga hari kugenderwaho n'ikinyabiziga cy'ikinyamitende, kiri mu ibara ry'ubururu gitwawe n'umuyobozi wacyo w'abanyamaguru ,hariho abantu babiri bambaye umutuku n'ubururu.

Ikinyabiziga gitanga serivisi z'ingendo rusange kiri mu ibara ry'umweru ndetse kiri kugendera ku gikorwa remezo cy'umuhanda, hirya hari umunara w'amashanyarazi.

Ikinyabiziga mu bwoko bw'imodoka, itanga serivisi z'ingendo rusange, mu ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali, gifite ibara ry'umweru, ndetse imbere gisa nk'icyagonzweho.

Ibikorwaremezo birimo inzu y'ubucuruzi bitangirwamo serivisi zitandukanye, ndetse n'umuhanda ugenderwamo n'imodoka, ibinyabiziga by'imodoka ndetse zikaba zihaparitse izo modoka, imwe iri mu ibara ry'umweru iri mu ibara ryijimye ry'umukara.

Ikinyabiziga mu bwoko bw'imodoka ndende itanga serivisi ku bafata ingendo zitandukanye mu buryo bwa rusange, iyo modoka ni iy'ikigo cya yahu gitanga imodoka zigenerwa gutanga iyo serivisi.

Umuntu uzamuye akaboko avugiramo mayikorofone, afashe ku idarapo ry'igihugu, afite umusatsi mwiza ushokoje yambaye ikositimu, yambaye ishati y'umweru birasa nkaho hari ibyo ari kurahirira.

Igikorwa remezo cy'umuhanda, kiri kugendwaho n'ibinyabiziga mu bwoko bw'ibikamyo, bikoreshwa mu bwikorezi bw'ibintu bitandukanye harimo amavuta byambuka imipaka, biri mu ibara ry'umweru.

Ibikorwaremezo by'umuhanda uri kugenderwaho n'ibinyabiziga bitandukanye hariho igare ndetse n'igikamyo cyikoreye imizigo ndetse n'igare ritwawe n'umuyobozi waryo, afite agafuka ahetse inyuma.

Igikorwaremezo cy'umuhanda uri gutwarirwaho n'ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka y'umuntu ku giti cye, igikamyo cy'ubwikorezi ndetse n'ayibinyabiziga bya moto bibiri bitwawe n'abayobozi babyo, igikamyo kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Ibikorwa remezo birimo umuhanda n'inzu icururizwamo imiti, ibinyabiziga nabyo birahari birimo imodoka iri mu ibara ry'umuringa birimo moto itwawe n'umuyobozi wayo, harimo ndetse n'abantu bari ku gikorwa remezo cy'umuhanda, hakabamo n'ikinyamitende gitwawe n'umuyobozi wacyo.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Igikorwa remezo kiberaho imikino y'imyidagaduro ndetse n'imyitozo ngorora mubiri mu buryo bw'imikino ya basiketiboro, iruhande rwayo hariho ubusitani busa neza.

Ibikorwa remezo birimo imihanda ibiri igabanyijwe n'amatara manini yo ku muhanda, umuhanda umwe ni ugendwamo n'imodoka, undi ni uwo abantu bagendaho bakoreraho imyitozo ngororamubiri iruhande rw'iyo mihanda hagiye hari ubusitani bw'icyatsi.

Igikorwaremezo cy'umuhanda n'amatara yo ku muhanda, ndetse n'icyapa kigaragaza agace kerekanwa ka Rambura, iruhande rw'icyo gikorwa remezo cy'umuhanda harimo rigore y'amazi.

Ikimenyetso cyifashishwa mu muhanda kugirango ibinyabiziga byubahirize amategeko byirinde impanuka, kiri mu kazeru k'umutuku ndetse cyerekana yuko byemewe yuko icyo kinyabiziga gikata ibumoso.

Ibikorwaremezo harimo inzu z'ubucuruzi ndetse n'umuhanda w'abanyamaguru n'abagenda n'ibinyabiziga iruhande hari icyapa kigaragazwa n'imibare gatandatu na zeru kiri mu kazeru k'umutuku mo imbere hasizwemo ibara ry'umweru.

Gikorwa remezo cy'umuhanda harimo uw'abanyamaguru ndetse n'uw'ibinyabiziga hariho icyapa kiranga amerekezo ajya ku kibuga cy'indege cya kigali, ndetse kigaragaza amerekezo ajya kacyiru hariho n'icyapa cyamamaza ni naho bata imyanda.

Icyapa gikoreshwa ku muhanda, kigaragaza yuko ibinyabiziga bibiri byemerewe kuba byacanaho, kimwe imbere y'ikindi.

Icyapa cy'umuhanda cyanditswemo umubare mirongo itandatu usobanura ko ibinyabiziga bikoresha uwo muhanda bitagomba kurenza ibirometero mirongo itandatu ku isaha.

Ikizeru kiri mu ibara ry'umutuku ndetse cyanditswemo inyuguti n'imibare byo mu ibara ry'umukara; imibare ni gatandatu na zeru, ndetse inyuguti ni ka na ma na ha, bikoreshwa nk'ibyapa byo mu mihanda; bigaraga ko utwaye ikinyabiziga cye atagomba kurenza umuvuduko w'ibyo birometero ku isaha mu gihe atwaye.

Abantu b'ingeri zitandukanye barahagaze bari kwifotoza harimo; umugore, harimo umukobwa, ndetse abasigaye n'abagabo bambaye amakositimu. Inyuma yabo hari icyapa cy'ikigo cy'igihugu cy'ubwisungane mu kwivuza.

Ibikorwa remezo cy'umuhanda kiriho impande yacyo ibyapa bibiri, kimwe kigaragaza ko gukata iburyo bitemewe n'ikindi kigaragaza ko aho hatemewe kunyuraho imodoka.

Icyapa cy'umuhanda kerekana aho umuntu w'umunyamaguru yambukira kibwira abatwaye imodoka yuko aho, ari aho kwambukirwa n'abanyamaguru bakwiye guhagarara abatwaye ibinyabiziga.

Ibikorwa remezo by'ibyapa biranga abatwaye ibinyabiziga bibereka y'uko hari umuhanda ushamikiye, n'ibindi bibereka ko hari rompuwe ihuriramo n'imodoka zo mu byerekezo bitandukanye.

Ibikorwaremezo by'umuhanda w'abanyamaguru ndetse n'uw'ibinyabiziga hagaragaraho icyapa ku muhanda cyanditsweho ijambo paki, kigaragaza ko imodoka zemerewe kuba zahagarara cyangwa zigaparika.

Amatara atatu yo ku muhanda yerekana niba imodoka ikwiye guhagarara cyangwa gukomeza cyangwa kwitegura kugenda harimo umubare mirongo ine na kane mu ibara ry'umuhondo rigaragaza yuko hasigaye kubarwa inshuro mirongo ine n'enye kugira ngo imodoka zitegure guhagarara.

Hoteli zitandukanye zo mu Rwanda bakunze kubaka ibyo bakunze kwita amapisine mu rurimi rw'abanyamahanga aho ushobora kuba wahasohokera nabawe mukaba mwahagirira ibihe byiza murimo muroga mwishimisha .

Inzu itangirwamo serivisi za banki ya Kigali bigaragara yuko ari ishami ry'agace kitwa Giporoso, inzu yubakishijwe amatafari hejuru kuri iyo nzu hakaba hariho itara ry'umukara.

Amazu y'amabati agiye asa nk'ashaje, ndetse amazu arafatanye cyane, ari mu gace kanditswe ko ari Nyagatovu, turabona ibikorwa remezo birimo amapoto abiri agena amashanyarazi mu ngo ziri aho hafi, bakoresheje insinga z'umukara.

Urusengero rw'abangirikani, rufite ibikuta bisizwe ibara ry'umuhondo ndetse munsi hari ibinyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka y'umuntu ku giti cye by'amabara atandukanye.

Igikorwa remezo cy'inzu y'ubucuruzi hacururizwamo imyenda y'amakoti y'abagabo, hari kwinjiramo umusore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati yo mu ibara ry'umuringa.

Inyubako y'amazu yo guturamo ndetse n'ipoto riyishamikiyeho insinga z'umukara nyinshi ziva kuri iyo poto zijya ku mazu aturiye iyo poto kugira ngo abone umuriro w'amashanyarazi.

Igikorwa remezo kiri mu bwoko bw'inzu igeretse gifite uruzitiro rufiteho utwuma tw'umukara n'amatafari, ahiye hejuru yaho hariho amatara y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye bigaragara ko harimo moto eshatu ndetse n'imodoka ebyiri, imwe isa girarayi ndetse n'indi isa ibara ry'umutuku bigaragara ko biri kugenda byerekeza mu cyerekezo kimwe kandi bikaba biri ku muhanda uriho umukindo.

Ibikorwa remezo birimo amazu y'ubwubatsi n'umuhanda uri kugenderwaho n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu, ibinyabiziga birimo moto n'imodoka bitwawe n'abayobozi babyo.

Inzu igeretse kabiri yanditsweho amagambo mu rurimi rw'icyongereza ndetse ifite ibikuta bisizwe ibara ry'icyatsi n'amadirishya abonerana buri rubaraza ruriho itara rinini rimwe.

Ibikorwaremezo ari byo umuhanda, amazu y'ubucuruzi ane ndetse n'ibyapa by'imihanda iyo mihanda ikikijwe ndetse igabanyijwemo n'ibiti bitanga akayaga. Muri uwo muhanda hari kugenderamo ibinyabiziga birimo imodoka z'umweruru.

Inyubako ubwoko bw'inzu y'ubucuruzi imbere yayo haparitse amamodoka mu ibara ry'umweru ndetse n'indi imwe mu ibara ry'umuringa, igikorwaremezo cy'umuhanda uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bibiri bya moto bihetse abagenzi bitwawe n'abayobozi babyo.

Ibikorwaremezo by'umuhanda biri kugenderwamo n'ibinyabiziga bibiri biri mu bwoko bwa moto ndetse zitwawe n'abayobozi b'ibyo binyabiziga n'imodoka iri mu ibara ry'umutuku.

Igikorwaremezo cy'umuhanda w'abanyamaguru ndetse w'ibinyabiziga, aho ibinyabiziga hari kugenderwaho n'ibinyabiziga mu bwoko bwa moto eshatu, ebyiri zitwawe n'abayobozi bazo ndetse bafite abagenzi batwaye, ndetse n'indi imwe idafite umugenzi utwaye ahubwo itwawe n'umuyobozi wayo gusa.

Igikorwa remezo cy'umuhanda uri kugenderwaho n'ibinyabiziga ari byo moto; bifite abayobozi babyo babitwaye ndetse batwayeho abagenzi; hejuru y'umuhanda hari ikiraro nacyo kigenderwaho n'abantu batandukanye.

Igikorwa remezo cy'umuhanda, hariho ikinyabiziga cya moto, gitwawe n'umuyobozi wacyo ariko ntawe atwaye nk'umugenzi, ndetse iruhande turahabona icyapa cy'umuhanda.

Igikorwa remezo cy'umuhanda uriho imirongo y'umuhondo iciyemo, igaragaza ko aho hantu imodoka zemerewe kubusanya ndetse no kunyuranaho. Uwo muhanda uragenderwaho n'ibinyabiziga, nk'ubwoko bwa moto, biyobowe n'abayobozi babyo.

Igikorwa remezo cy'umuhanda ikorosi, riri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, nka moto ndetse n'imodoka, imodoka ni ebyiri zo mu ibara ry'umuringa, imwe iri ruguru y'ikosi, indi iri iburyo bw'ikositikorosi, ibumoso bw'ikorosi hari ikinyabiziga gitwawe n'umuyobozi wacyo cya moto, ndetse n'iburyo bwayo hari ikinyabiziga cya moto kikoreraye umugenzi.

Igikorwa remezo cy'umuhanda wo hasi ndetse n'uwo hejuru uwo hasi urimo icyapa kigaragaza ihuriro ry'imihanda, riteguza umuyobozi w'ikinyabiziga cye ko aho ahahurira n'ibinyabiziga bitandukanye.

Ibikorwa remezo bibiri by'umuhanda uwo hasi n'uwo hejuru bakunze kwita uw'ikiraro, munsi y'uw'ikiraro ku muhanda wo hasi hari kugenderwaho n'ibinyabiziga byo mu bwoko bwa moto biyobowe n'abayobozi babyo bitwaye abagenzi.

Igikorwa remezo cy'umuhanda uri kugendwaho n'ibinyabiziga byo mu bwoko butandukanye, harimo imodoka ndetse na moto, byose biyobowe n'abayobozi babyo ndetse moto ifiteho umugenzi itwaye.

Igikorwa remezo cy'umuhanda ugendwaho n'ibinyabiziga ndetse hariho n'amatara yo mu muhanda hakaba n'amapoto afatiyeho insinga z'amashanyarazi agera mu baturage, uyu muhanda uriho ibinyabiziga bya moto kimwe gitwayeho umugenzi ibindi biyobowe n'abayobozi babyo.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kugenderwaho n'ibinyabiziga bitatu byo mu bwoko bw'imodoka ndetse no mu bwoko bwa moto. Imodoka zifite ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi kibisi. Abagenzi bari kwambuka ahabahariwe mu muhanda.

Ndahabona igazeti ya leta nimero enye yo kuwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu, iyo gazete ikaba yandikishijwe amagambo y'umukara, ikaba yanditse mu ndimi eshatu arizo; ikinyarwanda, icyongereza ndetse n'igifaransa.

Igikorwaremezo cy'umuhanda kiri kugendwaho n'ibinyabiziga biri mu bwoko bwa moto n'imodoka y'umuntu ku giti cye ndetse n'igikamyo, izi moto zifite abo zitwaye, zitwawe ndetse n'umuyobozi wa buri imwe zitegereje ko umugenzi yambuka kubera ko ni ko ikimenyetso kiri mu muhanda kivuga.

Igikorwa remezo cy'umuhanda w'abanyamaguru uri hagati mu busitani burimo ibigaragara nk'amatara manini yo ku muhanda menshi.

Igikorwaremezo cy'umuhanda kiri kugendwaho n'imodoka, imbere yaho ku mpande yayo hariho icyapa kigaragariza umunyamaguru ko abasha kuba yatambuka, hari imodoka ebyiri iy'umukara hakaba hariho n'ikikorwaremezo cy'inzu igeretse.

Igikorwa remezo cy'umuhanda, kiri kugendwaho n'imodoka zitandukanye, iy'umuntu ku giti cye ndetse n'igikamyo gikoreshwa mu bwikorezi bw'ibintu bitandukanye, hirya y'umuhanda hari abaturage bari kubireba uko imodoka zigenda.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kugendwaho n'ibinyabiziga mu bwoko bwa moto by'ikamyo n'imodoka y'umuntu ku giti cye, imodoka y'umuntu iriw'ibara ry'umuringa moto ikaba itwawe n'umuyobozi wayo afite n'umugenzi atwaye nk'igikamyo nacyo kiri mu ibara ry'umweru hirya gato y'umuhanda hari aho abagenzi bicara bategereje ibinyabiziga bitanga serivisi.

Onurayini shopingi puratifomu ni ahantu ushobora kuba wakoresha ugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ni apurikasiyo ushyira muri telefone yawe cyangwa muri mudasobwa yawe ukajya uhaha wibereye mu rugo.

Ibikorwa remezo by'umuhanda biri kugendwaho n'ibinyabiziga bibiri ari byo moto itwawe n'umuyobozi wayo ndetse atwaye umugenzi n'ikinyabiziga cy'igikamyo kiri mu ibara ry'umweru gitwawe n'umuyobozi wacyo; ku ruhande turahabona akazu kubakishijwe ibyuma k'ubururu gategererezwamo ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo rusange.

Ibikorwaremezo birimo umuhanda, amatara manini yo ku muhanda, ndetse n'ikiraro kiri kugendwaho n'imodoka, munsi yacyo hari gusohokamo izindi modoka, ndetse n'abanyamaguru basanzwe.

Igikorwaremezo cy'umuhanda, ikimenyetso cyemerera abanyamaguru koba banyura kuri icyo gikorwa remezo, bambuka, bambukiranya imihanda, igifasha gufata amashusho y'abakoze amakosa nko kwihuta n'ibindi, ndetse n'amatara maremare yo ku muhanda.

Igikorwa remezo cy'umuhanda uriho amatara maremare acanira abari kuhagenda, harimo ibinyabiziga ndetse n'abantu. Ikimenyetso cyo mu muhanda kereka abanyamaguru uko bakambukira ahongaho ndetse hirya hari ikinyabiziga mu bwoko bwa moto kiyobowe n'umuyobozi wacyo.

Igikorwa remezo cy'umuhanda, kirimo imirongo y'umweru, kiriho impande ebyiri, hari urw'abanyamaguru n'urw'ibinyabiziga bisanzwe, uruhande rw'abanyamaguru hariho icyapa cyerekana ko habujijwe kuhaparika